Icyumba gitangirwamo ubujyanama ku by'ubuzima, harimo intebe zitandukanye, hicayemo abagore, abagabo, mu ntoki zabo bafite ibitabo barimo barasoma.

Abana babiri, umwe afite igikombe gifite ibara ry'ubururu kiririmo amazi, arimo arakarabya intoki mugenzi we, bambaye imipira itukura.

Itsinda ry'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe bambaye amashati maremare y'ibara ry'ubururu, abandi bambaye amapantaro y'umukara.

Abagabo babiri baramukanyaga bahana ibiganza, bombi bambaye amakoti ndetse n'amapantaro afite ibara ry'umukara, umwe muri bo afite ibitabo mu ntoki undi afite terefone igendanwa mu ntoki.

Abagore batandukanye bateze ibitambaro mu mutwe bambaye ibitenge, imbere yabo hari umuganga wambaye ikanzu y'umweru yabugenewe n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, arimo arabasuzuma umuvuduko w'amaraso.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo imashini zitandukanye hasizemo ibara ry'umweru, harimo abaganga bambaye amakanzu y'icyatsi kibisi ndetse n'udupfukamunwa.

Abantu batandukanye barimo abagore, abasore ndetse n'abana baje ku mugezi usize ibara ry'ubururu bafite ibivomesho mu ntoki.

Abana bagiye kuvoma, bageze ku mugezi bafite ububido bagiye kuvomeramo amazi, iruhande rwabo hari umukobwa urimo kubafasha kuvoma amazi.

Icyumba gikorerwamo inama, imbere hicaye abantu batandukanye abagabo, abagore, inyuma y'abo hari icyapa kinini gifite ibara ry'ubururu ryandikishijeho inyuguti zifite ibara ry'umweru.

Ababyeyi batandukanye bafite abana babazanye kubakingiza, umubyeyi umwe arahagaze agiye kujyana umwana we ku munzani, imbere ye hari umuganga wambayetabuririya y'ubururu.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo abagore ndetse n'abagabo batandukanye, abaganga barimo bambaye amashati afite ibara ry'ubururu, ndetse harimo n'abera bambaye amakoti y'umukara.

Abagore batandukanye ndetse n'abagabo ndetse n'abana, hahagaze umuganga wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru, arimo araha umwana urukingo.

Abantu batatu bari ku mugezi, umugore ndetse n'umugabo, bafite ibibido bibiri, barimo baravoma amazi, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ijiri y'umuhondo ndetse n'umupira w'umweru.

Umwana w'umukobwa ufite ibi bido bitatu bifite ibara ry'umuhondo, ari kuri robine arimo aravoma amazi, yambaye ipantaro y'iroza n'umupira w'umweru.

Ikibuga kiriho abantu batandukanye abagore, abagabo ndetse n'abana, hahagazemo imodoka yagenewe gutwara abarwayi ndetse hubatse n'ihema ry'umweru.

Abana bahagaze kuri robine baje gushaka amazi, imbere hateretse ikibido gifite ibara ry'umuhondo, inyuma hari umwana urimo umanura icyuma yongera akizamura kugira ngo haze amaze.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi haragaragaramo umuganga wambaye ikote ry'umweru n'umwana mutoya ndetse n'umumama, muganga arimo araha ubuvuzi umwana muto.

Abaganga batandukanye, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ibara ry'umweru, hatetseho mudasobwa. Imbere yabo hahagaze umurwayi waje kwivuza.

Abana benshi bunamye ku ruhombo bafite amazi, munsi yabo hari ibase ifite ibara ritukura, bateza ibiganza kuri ayo mazi arimo kumeneka.

Icyumba gikorerwamo inama, hari ameza manini, ariho abantu bayazengurutse batandukanye , abagore , abagabo ndetse imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye amashati y'umweru, amasogisi y'umutuku ndetse n'inkweto z'umukara, abandi bambaye amasogisi y'umweru bose bateze intoki kuri robine bakaraba.

Icyumba cy'inama hakoraniyemo abajyanama b'ubuzima, bambaye amakanzu y'ubururu ku bibero byabo hariho ibitabo barimo barasoma, imbere yabo kandi hari imeza ishasheho igitambaro cy'icyatsi kibisi.

Abaganga batandukanye bambaye amakanzu afite ibara ry'ubururu, barimo barita ku barwayi, imbere y'umwe muri bo hicaye umusaza wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umweru, bamushyize igipimo gisuzuma umuvuduko w'amaraso ku kaboko.

Abana bari ku mugezi barimo baravoma, imbere yabo hari ikibido gifite ibara ry'umuhondo giteze kuri robine, hirya hari urimo avoma, amanura icyuma yongera akizamura kugira ngo amazi abashe kuza.

Itsinda ry'abantu ryambaye imipira y'umweru, bose inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo ibara ry'iroza ndetse hari inyuguti zandikishijeho ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ikirangantego kigaragara kuri iyi foto, ni icy'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amazi, kigaragara mu mabara abiri, icyatsi n'ubururu.

Inyubako igurirwamo amazi, ku rubaraza rwayo hari umurongo w'ibibido bitandukanye, mu rubavu rwayo hahagaze abagore, abana baje gushaka amazi.

Umugore ukikiye umwana afite igitenge mu mutwe, imbere ye hari umuganga wambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru, afite urushinge mu ntoki arimo arakingira umwana.

Abanyeshuri bari mu ihema rifite ibara ry'umweru, bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bari kumwe n'abarimu babo ndetse n'abayobozi b'ikigo.

Abana bakiri bato bagiye ku mugezi kuvoma bafite ububido bufite ibara ry'umuhondo, hirya hari umugore urimo ubafasha kuzamura icyuma anakimanura ngo babone amazi.

Abantu bicaye ku ntebe, inyuma yabo hahagaze abandi benshi hari inzu isize ibara ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu ryandikishijeho inyuguti z'umweru.

Umugabo agiye kuvoma amazi, yicaye ku kibido gifite ibara ry'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati irimo amabara.

Abantu barimo abagore, abagabo ndetse n'abashinzwe umutekano, bicaye mu ihema, bateze amatwi umugabo ubahagaze imbere, afite indangururamajwi mu kiganza.

Umwana w'umukobwa ari imbere y'indobo irimo amazi arimo arakaraba intoki, imbere ye hasi hari ibase ifite ibara ry'icyatsi kibisi n'iyo ari gukarabiramo.

Itsinda ry'abantu benshi, ririmo abajyanama b'ubuzima b'abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hashinze ihema ry'umweru, aho bicaye ni mu busitani bugizwe n'ibyatsi.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bari kuri robine bari kuvoma amazi, bafite ibi bido bifite ibara ry'umuhondo, umugore ateze igitambaro mu mutwe, umugabo yambaye ikoti.

Umugore uteruye umwana, yambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, yambaye n'umupira ufite ibara ririmo umuhondo n'umukara ndetse n'umweru.

Itsinda ry'abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda yubururu bw'igicu ndetse n'ibibaranga mu ijosi barimo barakoma amashyi abandi baririmba imbere yabo hari umugabo w'umwera wambaye ikoti ry'umukara.

Icyumba giteraniyemo abantu batandukanye baje gukingiza abana, harimo abagore ndetse bafite n'abana bakiri bato, imbere yabo hahagaze umugore ugihagatiye umwana, yambaye imyenda y'ibitenge afite n'ifishi y'umwana mu ntoki.

Abaturage batandukanye bagiye kuvoma, umwana w'umuhungu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, afite ibibido bibiri bifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwe akikijwe n'abagore ndetse n'abana n'abagabo barimo bareba uko avoma.

Itsinda ry'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, abashinzwe umutekano, barimo barita ku bana bafite ikibazo cy'imirire mibi, bicaye hasi barimo barabaha icyo kunywa.

Abana bakiri batoya bose bari ku mugezi barimo bararwanira kuri robine bashaka gukaraba intoki buri wese arwana no gutanga undi.

Umunyeshuri w'umukobwa wambaye umupira w'ubururu bw'igicu n'ishati y'umweru, n'ijipo y'ubururu, ahagaze kuri robine arimo arakaraba intoki.

Abagore, abana ndetse n'abakobwa. Baje kuvoma amazi kuri robine, bafite ibibido bifite ibara ry'umuhondo aho bavomera hafite ibara ry'ubururu.

Abana batatu bari ku mugezi bafite ibivomesho bibiri, barunamye barimo baravoma amazi, umwe yambaye umupira w'ubururu bwijimye, undi yambaye umupira w'ibara ry'umuhondo, undi na we yambaye umupira w'ibara ry'igitaka.

Umugore ari kumwe n'abana babiri, bagiye kuvoma, bafite ikibido gifite ibara ry'umuhondo, umugore yambaye umupira ufite ibara ry'iroza.

Ikigo nderabuzima, imbere yacyo hari abantu batandukanye, bambaye amakanzu y'ibara ry'ubururu bw'igicu bahakorera, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara w'umwera wambaye n'amarinete mu maso.

Abantu benshi batandukanye barimo abana ndetse n'abagore, imbere yabo hari umuganga wambaye imyenda y'icyatsi hari imeza nini iriho impapuro zitandukanye.

Icyumba kiberamo inama, cyicayemo abantu batandukanye, imbere yabo hicaye abagabo babiri bambaye amakoti y'ibara ry'umukara, iruhande rwabo hicaye umugore uteze igitambaro gifite ibara ry'icyatsi.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo inshinge, imiti itandukanye, biteretse ku meza manini.

Itsinda ry'abantu batandukanye, barimo abagore n'abagabo, bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, yandikishijeho inyuguti z'umweru, bambaye n'ingofero zifite ibara ry'umweru.

Umugore uhetse umwana yambaye agapira k'ibara k'iroza, afite indobo ifite ibara ry'umukara yaje ku ivomo kuvoma amazi.

Umwana uri ku mugezi arimo aravoma amazi, afite ikivomesho yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara amazi arimo arajya mu kabido.

Umugabo wazamuye umupira bari kumutera urukingo, ari kumwe n'abaganga batatu bambaye amashati y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hari imiti yabugenewe.

Abagore ndetse n'abana baje kwa muganga kwivuza, ku rukuta rubegereye ruriho ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'amafoto atandukanye.

Umuntu uteze ibiganza uruhombo rw'amazi yambaye ishati y'ubururu yateze ibiganza kamazi agenda mu biganza bye.

Abagore batandukanye bahuriye mu cyumba bagirwa inama uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'imiryango yabo kugira ngo babashe kubaho neza.

Abantu batandukanye bagiye kuvoma amazi barimo abana, abagore ndetse n'abagabo, bafite ibibido bifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwabo hari insina.

Kuri robine hari abagore batandukanye, umwe ari imbere arimo aravoma amazi, abandi bari inyuma barimo baramanura icyuma bongera bakizamura, kugira ngo amazi abashe kuza.

Umugore wagiye kuvoma afite ikibido gifite ibara ry'umuhondo ateze amazi kuri robine arimo aravoma yambaye igitenge mu bitugu gifite ibara ry'umweru n'umutuku.

Icyumba kiberamo inama hicaye abagabo babiri imbere yabo hari imezi nini iteretseho icupa ry'amazi ndetse n'ikirahure, irambuyeho igitambaro gifite ibara ry'umuhondo.

Icyumba cy'amahugurwa kirimo abantu batandukanye, abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye amashati afite ibara ry'icyatsi kibisi n'udupfukamunwa tw'umukara abandi bambaye imipira y'ibara ry'umweru, imbere yabo hari imeza iriho ibitabo.

Umubyeyi ukikiye umwana imbere ye hari umuganga yafashe umunwa w'umwana yamwasamuye kugira ngo abashe kumuha urukingo.

Umugore wikoreye ikibido gifite ibara ry'umuhondo n'umufuniko utukura, iruhande rwe hahagaze umwana wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri umwe muri bo yaje ku mugezi gufasha umwana wari uhari arimo kuvoma bambaye umupira w'ibara ry'ubururu n'ikabutura ifite ibara rya kake.

Umwana wambaye ikabutura, ifite ibara ry'umutuku, ari kuri robine, yafunguye amazi, atezeho n'ibiganza arimo aranywa amazi, munsi y'ibiganza bye hateretse indobo isa nk'ivu.

Umwana mutoya agiye kuvoma imbere ye hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu umwana afite indobo isa oranje, arimo aragerageza kwikorera amazi yavomye.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo hateretse isahani iriho ibiryo, inyuma yabo hari ikibaho bigiraho, bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'ubururu ku kobwa na kaki ku bahungu.

Inyubako isize ibara ry'umweru yandikishijeho inyuguti z'ibara ry'ubururu. Imbere yayo hari ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye, mu rubaraza rwayo ifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Itsinda ry'abantu batandukanye harimo abagore, abagabo bari mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kuganirizwa uburyo bashobora kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umukecuru witeze igitambaro gifite ibara ry'umweru ku mutwe, yambaye urunigi mu ijosi rufite amabara umuhondo, ubururu ndetse n'indi risa nk'ivu, yambaye ubusa hejuru.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, afite ubwanwa n'umusatsi muke ku mutwe arimo araseka yerekana amenyo ye.

Ubusitani bwubatsemo ihema riri kuberamo inama, imbere hicaye umugore ndetse n'umugabo, umugore afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugore ndetse n'umugabo, bafite umuntu hagati yabo ureba nabi, ugaragara nkaho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba gikorerwamo amahugurwa ku buzima bwo mu mutwe, hicayemo abantu batandukanye. Ameza abari imbere, hateretseho amacupa arimo amazi. Imbere yabo hahagaze umugore uri kubahugura, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye mu ruganiriro, yicaye ku ntebe ndende ikoze mu giti, imbere ye hashashe umusambi, inyuma ye hari idirishya rikoze mu giti.

Umugabo ugaragara nkufite ikibazo cyo mu mutwe afite imisatsi myinshi, ubwanwa bwinshi butogoshwa, inyuma ye hari ihema rifite ibara ry'ubururu.

Itsinda ry'abana benshi bagiye kuvoma bamwe bafite ibivomesho birimo ububido bufite ibara ry'umuhondo, umwana uri imbere yambaye ipantaro ifite ibara ry'icyatsi n'inkweto, undi yambaye ikoti ry'umukara.

Umugabo ukuze yambaye ishati y'ubururu, inyuma ye hari abantu benshi batandukanye hakaba n'icyapa gifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo wicaye hasi, yambaye ikabutura ya kaki ndetse n'isengeri, yambaye mu nda ipine ry'imodoka, afite umusatsi mwinshi bigaragara y'uko adaheruka kogosha.

Umugore wambaye igitenge mu mutwe, yambaye amaherena y'umweru, arareba nabi cyane, asa nk'ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba kiberamo amahugurwa, harimo abantu batandukanye, imbere yabo hicaye umubyeyi wambaye ishati y'umweru, ifite ibara ry'ubururu ku ruhande ndetse no mu ijosi, imbere ye harambitse mudasobwa, hateretse n'amacupa arimo amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hahagaze abagore babiri, umwe yambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, undi afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi usa nabi yambaye imyenda yacitse ndetse yambaye n'ibirenge, ahagaze iruhande rw'umuhanda afite umuneke mu ntoki.

Icyumba kiberamo inama hicayemo abantu batandukanye abagore, abagabo ndetse imbere yabo hari umugore urimo kubigisha.

Imodoka yifashishwa mu gufasha abantu bagize ikibazo cyo mu mutwe kugirango babashe guhabwa ubuvuzi bwimbitse.

Abantu benshi batandukanye harimo n'abera bari mu cyumba cy'amahugurwa, iruhande rwabo hari imeza iteretseho amazi yo kunywa n'ibitabo, barimo barigishwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Umugore wikoreye igitebo ku mutwe yambaye umupira urimo amabara y'umuhondo n'umukara, afite isuka mu ntoki inyuma ye hari inyubako yubakishije amategura.

Umugore wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu bwijimye, yambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku n'ubururu, afite imisatsi miremire, ahagaze iruhande rw'igikuta gisize ibara rya oranje.

Umugore wicaye munsi y'igiti, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye agapira k'umuhondo werurutse ndetse n'igitenge, aziritse umunyururu ku maguru.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa bashinzwe kuganiriza abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, n'indwara zitandukanye zo mu mutwe.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yifashishwa nk'ivuriro rigendanwa, inyuma yayo hubatse ihema rifite ibara ry'umweru, imbere y'iryo hema hapanze intebe nyinshi.

Umugabo ugaragara nk'ufite ubumuga bwo mu mutwe, yisize ibara ry'umukara mu maso, afite igikapu ku rutugu, yambaye imyenda yacitse n'inkweto zifite ibara ryumweru zanduye, inyuma ye hari imodoka nini.

Umugabo uhambiriye amaguru, yicaye mu nyubako bigaragara ko ishaje, hasi hashashe igitenge ndetse n'ikiringiti yaryamagaho.

Umubyeyi wicaye ku kibuga, afite abana babiri, inyuma ye hari inzu ubona ko ishaje, imbere ye hari inkoko ndetse n'indi sahani itukura.

Umusore ukiri muto wogoshe umusatsi ufite ubwanwa bukeya, afite urudodo mu ntoki ze arimo arasukura amenyo.

Umugabo uri mu bwogero yambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara n'akandi kabara ku ruhande k'umweru arimo aroza amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti byagenewe amenyo.

Umukobwa uririmo kugaragaza amenyo ye, afite agakoresho gakoreshwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo, gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, afite igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, afite urudodo mu ntoki, rwagenewe gukura imyanda mu menyo, arimo arakora isuku mu menyo ye.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, gisize ibara ry'umweru, harimo utubati dufite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, hakabamo ibyuma byifashishwa mu gupima amenyo.

Umuganga wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, imbere ye haryamye umurwayi arasamye barimo baramukura amenyo, muganga afite mu ntoki ze ibikoresho bimufasha gutera ikinya.

Umusore ufite ubwanwa, wambaye amarinete ku maso, ufite iherena mu zuru, arimo araseka, aratunga urutoki ku menyo ye, yambaye umupira w'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo ibara ry'umweru hakabamo intebe zifite ibara rya move n'ibikoresho bindi bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwijimye, arimo araseka yerekana amenyo ye y'umweru, arogoshe afite ubwanwa..

Itsinda ry'abaganga ririmo rihugura abantu uko bakora isuku y'amenyo yabo bakoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe, bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi mu gatuza hari ibara ry'umuhondo.

Abana b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'ishuri, ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, buri mwana afite uburoso bwagenewe koza amenyo ndetse yashyizeho umuti arimo aroza amenyo.

Abaganga babiri umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati y'ubururu. Hagati yabo hari umurwayi wasamye ari kuvurwa amenyo. Iruhande rwabo hari imeza iteretseho ibikoresho bifashisha bavura amenyo.

Umugore ufite imisatsi ikora mu maso, afite amenyo y'umweru mu ntoki ze hari urudodo rurimo rumufasha gukura imyanda mu menyo yambaye isengeri ifite ibara ry'mweru.

Umuganga afite igikoresho gishushanyije nk'amenyo y'umuntu, ari kumwe n'umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi kibisi, arimo aramwerekera uko boza amenyo akoresheje uburoso bwabugenewe.

Icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo harimo imashini zitandukanye zifashishwa kuvura amenyo hasizemo ibara ry'umweru hari igitanda gifite ibara ry'icyatsi abarwayi baryamaho baje kwivuza.

Icyumba kigaragaramo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, haragaragaramo imashini ipima amenyo kugira ngo habashe kumenyekana uburwayi bw'amenyo, buvurwe.

Umugabo wasamye yerekana amenyo ye, afite mu ntoki ze agakoresho gashinzwe kugorora amenyo, kakayashyira ku murongo, akamera neza.

Muganga afite ibikoresho bisuzuma amenyo, imbere ye hari umwana uryamye yasamye, muganga arimo aramusuzuma amenyo.

Icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo harimo ibikoresho bitandukanye, hasizemo ibara ry'umweru, harimo intebe cyangwa igitanda kiryamishwaho abarwayi barimo bavurwa.

Icyumba kivurirwamo amenyo hasizemo ibara ry'umweru, harimo imashini zitandukanye zifashishwa mu kuvura amenyo, harimo kandi intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amenyo.

Umurwayi yaje kwivuza amenyo, ni umwana ukiri muto arasama yereka umuganga uburwayi bw'amenyo ye, muganga afite ibyuma byabugenewe mu ntoki kugira ngo abashe gusuzuma amenyo y'umurwayi.

Umugabo ufite ubwanwa arimo arakora isuku mu menyo ye, akoresheje agakoresho kabugenewe kariho urudodo...

Icyumba kivurirwamo amenyo, harimo umurwayi uryamye ku gitanda, yasamye yereka muganga uburwayi bw'amenyo ye, kugira ngo abashe kuvurwa.

Umugabo urimo guseka afite isume ku rutugu ifite ibara ry'umweru mu ntoki ze hari urudodo arimo aragerageza gukora isuku y'amenyo yifashishije urudodo rufite ibara ry'umweru.

Umwana ukiri muto, afite uburoso bwagenewe koza amenyo mu ntoki bufite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, ari koza amenyo ye, yambaye ishati y'ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ishuri, kirimo abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'ababahungu, bari kumwe n'abarimu babo, mu ntoki zabo bafitemo biswi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo umurwayi ndetse n'umuganga, umurwayi ni umusore ukiri muto, wambaye umupira urimo imirongo ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo harimo igitanda kiryamweho n'umugabo waje kwivuza amenyo, iruhande rwe hari umuganga ufite igikoresho cyabugenewe agiye gusuzuma amenyo ye.

Muganga yambaye ikanzu y'abaganga y'ibara ry'umweru, agapfukamunwa k'umweru, imbere ye hari umusaza ukuze arasamye arimo aramwereka amenyo, muganga arimo arareba uburwayi afite.

Icyumba kivurirwamo indwara z'amenyo, haryamye umurwayi uri kwivuza amenyo, yasamye muganga ari iruhande rwe, yambaye ikanzu yabugenewe y'ubuganga y'umweru.

Itsinda ry'abantu batandukanye barimo abasore abagabo ndetse n'abagore harimo abera babiri bari mu mahugurwa y'uburyo bakwita ku menyo yabo.

Muganga afite ibikoresho bivura amenyo mu ntoki yambaye udupfukantoki imbere ye hari umwana wasamye arimo amusuzuma yambaye umupira w'umuhondo.

Umuganga ari kumwemwe n'umurwayi amubura amenyo umurwa aryamye ku gitanda gifite ibara ry'ubururu arasamye ari a yereka muganga amenya arwaye harimo ibyuma bitandukanye bibura amenyo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bavura amenyo, hakabamo igitanda abarwayi baryamaho babasuzuma.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo ibara ry'umweru, harimo insakazamashusho, harimo ndetse n'intebe ifite ibara ritukura, kandi n'imashini zipima amenyo.

Umukecuru uhagaze yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, umukenyero w'ibara ry'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye urunigi rw'amabara y'umweru n'umukara afite imvi mu mutwe.

Umukecuru wambaye amarinete afite imvi, imbere ye hari imeza nini arimo arakata imboga yasetse, iruhande rwe hari umukobwa wambaye agapira k'ubururu bwererutse, imbere hateretse isorori y'ikirahure.

Iyi foto iragaragaramo umugabo ukuze ndetse n'umugore w'umuganga, arimo amufasha kubasha gutera intambwe...

Umukecuru wambaye igitambaro gitukura mu mutwe n'ikoti rifite ibara rya move ahoberanye n'umusaza ufite imvi barishimye barimo baraseka.

Umugore wogoshe umusatsi wose, afite ikirahure kirimo amazi mu ntoki, mu kiganza kindi afitemo ibinini agiye kunywa.

Umurwayi uryamye ku gitanda, iruhande rwe hari imashini imufasha gusuzuma umuvuduko w'amaraso, yambaye umupira w'umweru, iruhande rwe hahagaze umuganga, wambaye ikanzu yabugenewe y'abaganga.

Umukecuru wicaye mu kagare yambaye igitambaro gifite ibara ry'umukara mumutwe yambaye n'umupira ufite ibara rya orange inyuma ye harimuganga wambaye imyenda y'ubururu yamuturutse inyuma amufata mu biganza.

Umukecuru urimo gukora imyitozo ngororamubiri afite mu ntoki udukoresho twabugenewe tumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira wimbeho imbere harimo agapira gafite ibara ry'umweru.

Umusaza, umukecuru ndetse n'abana babo batatu, barimo baraseka, umukecuru afite imvi n'umusaza, umuhungu wabo yambaye umupira w'ibara ry'ubururu.

Umusaza wambaye imyenda yumukara afite ubwanwa bwinshi burimwo imvi, ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'ipantaro, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, ateze ibiganza, umukobwa ari kumuha imiti.

Umugore ukuze yambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'umukara arimo arakora imyitozo ngororamubiri amaboko ye yayarambuye arimo gukora ku rukweto rwe.

Umuganga wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu n'agapira inyuma k'amaboko maremare, ari kumwe n'umurwayi w'umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, amufashe mu kiganza.

Umukecuru ukuze arimo arakoreshwa imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwijimye ndetse n'umupira w'amaboko w'umweru.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu bw'igicu, ifitemo imirongo y'umukara, afite imvi mu mutwe, ateruye umwana muto ufite igipupe mu ntoki arimo aramukinisha.

Ifoto hariho umuganga wambaye ishati y'ubururu n'agapira k'umweru imbere, ari kumwe n'umusaza ufite imvi mu bwanwa, arimo aramuha imiti.

Umusaza uri mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umweru, ipantaro ifite ibara ry'umukara, afite utuntu mu ntoki twagenewe gukoreshwa siporo, yambaye amarinete mu maso afite n'imvi mu mutwe.

Ifoto iragaragaza abantu babiri, umugore w'umuganga ndetse n'umusaza urwaye wicaye mu kagare barimo baganira.

Umusaza yicaye ku meza y'ururiro, afite isahani mu ntoki ifite ibara ry'umweru ndetse n'ikiyiko; arimo ararurira ku yindi sahani ashyiraho ibyo kurya.

Umukecuru ukuze imbere ye hari imeza nini, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu arimo aramuhereza imiti.

Umusaza ndetse n'umukobwa w'umuganga bicaye mu ntebe y'uruganiriro, arimo aramupima umuvuduko w'amaraso, muganga yambaye umupira w'ubururu ndetse afite n'ibisuko ku mutwe.

Umusaza ari kumwe n'umuganga, amwigisha gutambuka kubera ikibazo cy'ingingo afite, muganga yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, umusaza yambaye ipantaro y'ubururu bwijimye ndetse n'umupira.

Umusaza yicaye ku meza aririrwaho, imbere ye hari imbuto zitandukanye ndetse n'igikombe kirimo icyo kunywa, iruhande rwe hahagaze umukecuru, ufite ikirahure mu ntoki, arimo gusuka umutobe w'imbuto, kuri ayo meza hateretse isahani iriho pome itukura.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu, yicaye ku buriri bufasheho amashuka y'umweru, ari kumwe n'umugore umufashe mu kiganza, agerageza kumuhagurutsa.

Umugabo ukuze wicaye imbere y'ameza manini, yambaye umupira urimo imirongo y'umweru ndetse n'ubururu.

Itsinda ry'urubyiruko ryicaye mucyumba cy'inama, imbere yabo har'imeza iteretseho mudasobwa, harimo abambaye imipira y'umweru abandi iy'umukara, inyuma yabo hari igikuta, cyubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cy'inama kiganjemo abagore ndetse n'abagabo, hasizemo ibara ry'umweru, abo bagabo n'abagore barimo abenshi bambaye ibara ry'umukara ndetse n'amakaruvati y'amabara atandukanye.

Icyumba gitangirwamo inama ku by'ubuzima, hicayemo abantu batandukanye, imbere yabo hari umugore wambaye ijipo ifite ibara ry'umweru n'umuhondo ndetse n'umukara, yambaye n'ishati ifite ibara ry'icyatsi afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugore ufite umwana muto ateze igitambaro yambaye umwenda urimo ibara rya move ndetse n'umweru akikiye umwana arimo aramuha icyo kunywa.

Icyumba kiberamo inama, harimo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hicaye abandi bagore ndetse n'abagabo, barimo babaha amahugurwa atandukanye.

Mu icyumba gikorerwamo inama harimo abantu batandukanye: abagore, abagabo ndetse bicaye ku ntebe zifite ibara rya oranje.

Umuhanzi Mico, ari kumwe na minisitiri w'ubuzima, bafite icyapa mu ntoki gisize ibara ry'umweru, kiriho inyuguti zandikishije ibara ry'umukara, rikangurira abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu.

Abihayimana batatu, barimo bararamukanya n'umugabo, wambaye ikoti rifite ubururu bucuyutse n'ishati y'umweru, abihayimana bambaye amasengeri ndetse n'umupira ufite ibara ry'umweru n'amarinete ku maso.

Mu busitani harimo abaganga n'abakoranabushake, harimo agatanda gafite ibara ry'ubururu haryamyeho umurwayi arimo aritabwaho yambaye ipantaro y'umukara.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi arimo amutera urukingo, umurwayi yambaye ishati y'umweru, muganga na we yambaye isaha ku kaboko n'ishati ifite ibara ry'umweru.

Inama yabereye i Kigali ikoreshejwe n'Ikigo cy'Igihugu cy'Ubushakashatsi ku buzima, basobanura uburyo abantu bagomba kwirinda no kurwanya indwara.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ikimuranga mu ijosi, yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara, yarengejeho ikoti, yambaye n'amarinete ku maso.

Igitabo kirimo raporo y'uko bigishije kuboneza urubyaro, gifite ibara ry'ubururu, ryandikishijeho inyuguti z'umweru, hasi hakaba ibara ry'icyatsi kibisi, ryandikishijeho inyuguti z'ubururu.

Umuganga arimo arakingira mugenzi we, yambaye ishati y'ibara ry'ubururu, umukingira yambaye ishati y'umweru n'akajire gafite ibara ry'umuhondo waka ndetse n'ingofero.

Icyumba gikorerwamo inama, hahagazemo umukobwa ndetse n'umusore, bafite ibyapa bifite ibara ry'umukara, ryandikishijeho inyuguti z'umuhondo ndetse n'umweru.

Itsinda ry'abantu ririmo abakobwa, abagabo, bafite udukingirizo barimo bigisha abantu uko bakwiye kwirinda indwara bakoresha udukingirizo.

Umuganga arimo arakingira ndetse afata n'ibipimo umurwayi waje amugana, muganga yambaye ijere itukura n'ishati y'umweru, umurwayi yambaye umupira w'umukara.

Abantu batandukanye barimo n'abagore n'abana, bicaye aho bakirira abagana ikigo nderabuzima bategereje guhabwa ubuvuzi.

Itsinda ry'abantu, ririmo abagore n'abagabo, harimo abera ndetse n'abirabura, bahagaze mu busitani, imbere y'ibitaro bya Butaro.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, yubakishije amatafari ahiye, uruzitiro rwayo rusize ibara ry'ivu, icyapa gifite ibara ritukura ryandikishijeho inyuguti z'ibara ry'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, isize ibara ry'umweru, uruhande rumwe ifite amatafari ahiye, inyuma y'urugo rw'iyo nyubako hari abantu batandukanye barimo abagore, ndetse n'abagabo.

Abagabo babiri baricaye, umwe yaje kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso, undi ni numukozi wa arabisi ikigo cyigihugu gishinzwe ubuzima, yambaye umupira w'ibara ry'umweru nijiri ryibara ry'ubururu bwijimye.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, isize ibara ry'umweru, harimo ameza maremare, afite ibara ry'umukara ndetse hakabamo n'intebe.

Iyi nyubako yakirwamo ababyeyi bagiye kwibaruka, isize ibara ry'umuhondo, ifite inzugi zifite ibirahure mu rubaraza rwayo hari abantu babiri yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba gikoreshwa mu buvuzi, gifite irangi ry'umweru, hakabamo igitanda gifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, hakabamo kandi n'agatebe ko kwicaraho.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibitanda bitandukanye, bifiteho uburiri bufite ibara ry'ubururu ndetse n'imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'ababyeyi, harimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru, harimo imashini zitandukanye zifashishwa mu gukurikirana ababyeyi batwite.

Inyubako ikoreramo Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, imbere yayo hari umugabo wambaye ishati ifite ibara ritukura ndetse n'ipantaro y'umukara, mu busitani bwayo hari ibiti by'imbuto zitandukanye ndetse n'indabyo zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi harimo intebe ntoya y'umukara, hakazamo n'intebe nini ifite ibara ry'umweru n'ubururu isizemo ibara ry'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibitanda bitandukanye, ku bitanda hari ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, isaso yabyo ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ku rubaraza rwayo hahagaze abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, mu busitani bwayo hateye ibiti by'indabyo zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi isize ibara ry'umweru handikishijeho inyuguti z'ibara ry'icyatsi, itsinda ry'abaganga bahagaze iruhande rw'ubusitani bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'udupfukamunwa.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi harimo abagabo batatu, imbere hahagaze uwambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, iruhande rwe hicaye uwambaye umupira w'umutuku, imbere ye hateretse mudasobwa.

Muganga yambaye ikanzu ifite ibara ry'icyatsi mu gatuza handikishije inyuguti z'umukara, imbere ye hari agatanda karyamyemo umwana w'uruhinja wambaye ikabutura y'ibara ry'iroza.

Icyumba gikorerwamo ibizami kugira ngo habashe kumenyekana indwara abarwayi baje bagana ibitaro bafite, hari amezi manini hateretseho amacupa y'ibirahure atandukanye, iruhande hari imashini yabugenewe mu gupima indwara.

Ubusitani bw'inyubako ivurirwamo abarwayi, hari ibyuma bifite ibara ry'ubururu iry'icyatsi cya pome ndetse abana nibyo bicungaho.

Umuganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye amarinete ku maso, imbere ye hari igitanda kiryamyeho umugore ari kuvurwa, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inzu ikorerwamo kubyaza ababyeyi, urubaraza rwayo hahagaze itsinda ry'abantu benshi, barimo abashinzwe umutekano, abihaye Imana ndetse n'abaganga bahakora.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, isize ibara ry'umweru, handikishijeho inyuguti z'umuhondo, isakaje amabati y'ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi, hasizemo ibara ry'umweru, hagati harimo umurongo w'ubururu ndetse n'uw'umutuku, harimo imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi ifite ubusitani

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo ibitanda bitandukanye, harimo inzitiramibu zifite ibara ry'umweru, ndetse harimo n'amarido afite ibara ry'ubururu.

Inzu ibyarizwamo ababyeyi, yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yayo hari ubusitani, mu rubaraza rwayo hateretse amavaze arimo indabo.

Itsinda ry'abantu b'abagabo ndetse n'abagore, bambaye amashati y'umweru barinjira mu bitaro bose bafite impano mu ntoki, bagiye kugenera abarwayi.

Inyubako yubakishije amakoro, ifite ibara ry'umweru, imbere yayo hari abantu batandukanye, iruhande kandi hari ubusitani bwiza cyane bwiganjemo indabo zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ku kibuga cyayo hari imodoka nyinshi zitandukanye, zirimo izifashishwa mu gutwara abarwayi, hagati mu kibuga kandi hahagazemo umugabo wambaye ishati ifite ibara ritukura n'ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Abaganga babiri b'abagabo bambaye amakanzu yabugenewe yambarwa n'abaganga, afite ibara ry'umweru, imbere yabo hari imashini yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Inyubako zitandukanye zikorerwamo ubuvuzi zifite ibara ry'umweru mu kibuga cyazo hateyemo igiti kinini cyane harimo ubusitani bufite indabo zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo isuzuma, ku meza hateretseho mudasobwa, harimo intebe zikoze mu rubaho, hakaba hasizemo ibara ry'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo hari umuhanda wa kaburimbo, urugi rw'uruzitiro rwayo rusize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubushakashatsi ku by'ubuzima, mu rubaraza rwayo hahagaze imodoka isize ibara ry'umukara, imbere yayo hari ubusitani bunini.

Umugore wibarutse akikiye umwana w'uruhinja, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'umweru, arimo arita ku mwana wavutse.

Icyumba cyakirirwamo abantu gifite ibara ry'umuhondo, imbere harimo intebe nziza ameza ndetse n'intebe zifite ibara ry'umukara.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso, ifite ibara ry'ubururu hejuru ku mabati, ikagira icyapa gikoze m'ubururu bw'igicu, handikishwaho inyuguti z'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari ikigega cy'umukara, ku kibuga cyayo hicaye umwana uri mu kagare ufite ikibazo cy'ubumuga, kandi hari n'ubusitani bunini cyane burimo indabo zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ifite amabati afite ibara ry'ubururu, mu kibuga cyayo hahagaze abantu batandukanye, imbere gato hari imodoka ifite ibara rya kaki ndetse n'ubusitani bufite indabo zitandukanye.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi gifite ibara ry'umweru, harimo akabati gasize ibara ry'umweru, hakabamo imashini ishinzwe gupima uburwayi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, gisize ibara ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, harimo n'ibitanda ndetse n'imashini zitandukanye.

Icyumba gifashirizwamo abagore bagiye kwibaruka, hagaze abagore babiri, umwe ni umuganga yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, undi ni umubyeyi wibarutse yambaye ishati y'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo umugore wambaye ikanzu ndende yu'mweru, ifite umurongo mu mugongo no kumaboko utukura ,ahagaze imbere y'imashini ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi kikanakorerwamo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ingingo za muntu zibashe kugira ubuzima buzima.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi kirimo ibitanda bibiri, kimwe gishasheho amashuka afite ibara ry'umweru, hari imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi, hasizemo ibara ry'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo abaganga babiri umwe yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ni umwera afite igitabo mu ntoki, undi ni umwirabura yambaye umupira w'ubururu inyuma yarengejeho ikote ry'umweru ryagenewe kwambarwa n'abaganga, imbere ye hari umurwayi waje kwivuza.

Abaganga b'abagore bane bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, bakora akazi ko kubyaza ababyeyi baje babagana, inyuma yabo hari inyubako ikorerwamo ubuvuzi ifite ibara rya oranje n'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, isize ibara ry'umweru, harimo intebe zifite ibara ry'ubururu, hagati muri yo harimo indabo zitandukanye zitatsemo.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi harimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru, hakaba ifoto iriho imbuto hakaba n'imashini yifashishwa mu gusuzuma ababyeyi.

Icyumba gitangirwamo inama kubijyanye n'ubuzima, hicayemo abantu benshi batandukanye imbere yabo hari imeza nini yicayeho abagabo babiri, hirya kuru ruhande hari undi mugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Icyumba kirwariramo abarwayi kiryamyemo abagore babiri, umwe yiyoroshe ishuka y'ubururu, harimo ibitanda bitatu, undi yiyoroshe ishuka y'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye yubakishije amatafari ahiye, ubusitani bwayo burimo indabyo zitandukanye, ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo ibitanda bitandukanye by'abarwayi, bishasheho amashuka y'umweru, harimo haranyuramo umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi.

Muganga w'umugore, imbere ye hicaye umwana w'umunyeshuri, arimo aramufata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso bicaye mu cyumba gisize ibara ry'umweru, inyuma yabo hari akabati kabikwamo imiti.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, yubakishije amatafari ahiye, mu rubaraza rwayo hari abantu benshi batandukanye, mu kibuga cyayo hari imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'abagore bicaye ku ruhande rw'ubusitani.

Abagore batatu barimo umuganga umwe, bari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi butandukanye, umuganga arimo arabitaho, abavura uburwayi butandukanye, ndetse anabaganiriza.

Inyubako yigishirizwamo abanyeshuri, iruhande rumwe isize ibara ry'umweru, uruhande rwo hasi isize ibara ry'umukara werurutse, ku kibuga cyaho hashinze idarapo ry'igihugu.

Inyubako isize ibara ry'umuhondo hariho inyuguti zandikishije ibara ry'umweru, imbere yayo hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi isize ibara ry'umuhondo wererutse, ku rubaraza rwayo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, mu kibuga cyayo hari imodoka zitandukanye.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, gisize ibara ry'umweru, harimo utubati turimo imiti itandukanye, harimo kandi n'imashini.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi iragaragara mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, iragaragaramo amatara acanye.

Inyubako z'ibitaro bifite ibara ry'umweru n'iry'ubururu, ryandikishijemo ibara ry'umweru, imbere yaho hari ubusitani burimo ibiti bitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi yubatse ku muhanda, ku irembo ryayo harimo harasohokamo imodoka ifite ibara ry'umukara, hari n'umusekirite ku muryango.

Umuganga yicaye mu cyumba avuriramo ari kureba muri mudasobwa ye ifoto y'umurwayi, kugira ngo abone igisubizo cy'indwara arwaye.

Icyumba gisize ibara ry'umweru harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo igitanda gishasheho amashuka afite ibara ry'umweru, hariho n'igishushanyo gishushanyijeho indabo.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi yubakishije amatafari ahiye mu kibuga cyayo harashashe neza imbere yiyo nyubako hari umuhanda wa kaburimbo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru, afite inyuguti zandikishije ibara ry'ubururu, hari n'imashini yifashishwa gusuzuma abarwayi.

Ubusitani burimo ibyatsi, indabo zitandukanye ndetse n'ibiti by'imbuto, hirya hubatse inzu yubakishije amatafari ahiye, isize ibara ry'icyatsi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, irimo ibitanda bitandukanye, byagenewe kuryamishwaho abarwayi, ameza, ndetse n'imashini zitandukanye, byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba kivurirwamo abarwayi, harimo ibitanda bibiri ndetse n'imashini zitandukanye hasizemo irangi ry'umweru hamanitsemo n'amarido.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi mu kibuga k'iyo nyubako hari, abantu benshi batandukanye bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, mu busitani bwayo ashinze amatara maremare.

Mu cyumba gikoreshwa mu buvuzi, hasizemo ibara ry'umweru, ku gikuta hari isaha, muri icyo cyumba harimo imashini yabugenewe, ibasha gupima abarwayi.

Inzu yakirwamo ababyeyi bagiye kwibaruka, ku rubaraza rwayo hicaye abagore ndetse n'abagabo bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, imbere yabo hari ameza irambuyeho igitambaro.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, hasizemo irangi ry'umweru, hari igitanda abarwayi baryamaho, hari ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, harimo n'intebe ifite ibara ry'umukara.

Inyubako igeretse ikorerwamo ubuvuzi igice kinini yubakishije ibirahure imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye.

Mu cyumba kigaragaramo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi ndetse n'intebe ndetse n'imashini zibasha gupima uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, haragaragaramo amarido y'ibara ry'icyatsi, haryamyemo umurwayi, iruhande rwe hari imashini zitandukanye zikoreshwa mu buvuzi.

Icyumba kivurirwamo abarwayi harimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru haryamyeho umurwayi w'umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, iruhande rwe hari imashini yifashishwa mu kuyungurura amaraso.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo hari icyapa cyerekana ubuvuzi batanga ubwo ari bwo, handitseho inyuguti zigizwe n'amabara y'ubururu n'icyatsi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, burimo indabo zitandukanye, hari umuhanda, wambutse umuhanda hari idarapo ryigihugu.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi gisizemo irangi ry'ubururu bw'igicu, harimo icyuma cyifashishwa mu gupima indwara z'abantu gifite ibara ry'umweru.

Inyubako icururizwamo imiti isize ibara ry'umweru, imbere hari icyapa cy'ibara ry'icyatsi cyandikishijeho inyuguti z'ibara ry'umweru, ndetse imbere kandi hari n'icyapa cyerekana ubwishingizi butandukanye bukorana nayo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri hashashimo itapi ifite ibara ry'ubururu bw'igicu harimo imashini zitandukanye zifite ibara ry'umukara zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Abaganga batandukanye barimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe mbere yabo hari igitanda gishasheho ishuka y'umweru, haryamye umurwayi atwikirije igitambaro cy'icyatsi kibisi muganga arimo aramuvura.

Ifoto iragaragaza umugabo, ufite icupa rifite ibara ry'ubururu, ririmo amazi, ari kunywa amazi.

Umukobwa wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara yicaye ku gatanda gafite ibara ry'umukara. Imbere ye hari umwere urimo kumufasha gufunga akaguru ke gafite ikibazo.

Akaboko k'umuntu gafashe icupa ririmo amazi, rifite umufuniko w'ubururu, inyuma y'iryo cupa haragaragara ubururu bw'igicu ndetse n'umweru.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aryamye hasi yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, hari irangi ry'umweru n'idirishya ry'ibirahure.

Icyumba gisuzumirwamo uburwayi harimo ibara ry'umweru harimo igitanda ndetse n'icyuma banyuzamo umuntu kugirango ngo babashe kumenya uburwayi afite.

Umugabo urimo wikanda akaboko, akoresheje ibikoresho byabugenewe, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, yicaye ku ntebe ndetse inyuma ye hasize irangi ry'umweru.

Abantu bakiri batoya, mu kibuga bari mu myiyereko itandukanye, mu nkengero z'icyo kibuga harimo abantu benshi batandukanye baje kureba iyo myiyereko.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo icyifashishwa mu kumva uko umutima utera, hakabamo n'intebe yo kuryamishaho abarwayi, hakaba n'izindi mashini ebyiri zifite ibara ry'umweru.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, afite isume ku rutugu ifite ibara ry'umukara, afite icupa ririmo amazi, arishyize ku munwa arimo aranywa amazi.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara n'isaha ifite ibara ry'icyatsi ku kaboko n'ipantaro ifite ibara ry'umukara afite icupa ryamazi mu ntoki.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara isengeri y'umukara afite ibisuko birebire, imbere ye hateretse icupa ririmo amazi.

Icyuma gipima abantu indwara zitandukanye, zifata mu ngingo kugira ngo babashe gukorerwa ubuvuzi butandukanye, bahabwe n'imiti yabugenewe.

Ifoto iragaragaramo muganga, umurwayi ndetse n'abandi bagabo babiri, inyuma yaho hari abandi bantu, bigaragara ko umurwayi yavunitse, arimo ahabwa ubufasha.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishijemo inyuguti z'ubururu bw'igicu, kerekana uko bagorora ingingo bakoresheje amaboko ya muntu.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yambaye isaha ifite ibara ry'umukara ku kaboko, ndetse yazamuye amaboko. Akaboko ke kamwe gafashe mu bitugu bye yambaye na terefone ku kaboko.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isume mu ijosi rye, yambaye isengeri ifite ibara ry'ubururu ndetse hejuru ni icyatsi, afite icupa ry'amazi arimo aranywa.

Abagabo babiri, umwe ari umwera, undi ari umwirabura, aryamye ku gitanda gifite ibara ry'umukara, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo.

Ikirahure kirimo umutobe w'imbuto iruhande rwacyo hari: ifi ibaze neza, indimu, rumari, inkeri ndetse na pome, hirya hakaba ikirahure kirimo amazi.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, yambaye umukufi mu ijosi, afite icupa ririmo amazi arimo aranywa.

Indege ntoya yifashishwa mu gutwara amaraso yo kongerera abarwayi ifite ibara ritukura igikarito ifite kiriho ibara ritukura ryandikishijemo umusaraba w'umweru.

Ifoto igaragaramo umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umweru, arimo arigorora kugira ngo umubiri we ubashe kumererwa neza.

Icyumba kirimo abaganga ndetse n'abarwayi, barimo babafasha mu burwayi bw'ingingo zitandukanye, harimo ibitanda bifite ibara ry'umukara ndetse n'imashini zitandukanye zifasha abaganga kwita ku barwayi babo.

Umusore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, avuye mu myitozo ngororamubiri afite icupa ririmo amazi arasamye arimo arayanywa amumeneka no mu maso.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abantu bafite ikibazo k'ingingo, hahagazemo umusore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Muganga yambaye ikanzu y'umweru yabugenewe, yambarwa n'abaganga imbere ye haryamye umurwayi ufite ikibazo mu ivi, muganga arimo aramukanda mu ivi amusuzuma abashe kumuvura.

Ikirahure kirimo kirasukwamo amazi hari icupa ryari ririmo ayo mazi rifite ku munwa ibara ry'ubururu n'akandi kantu gafasheho gafite ibara ry'umutuku.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'ibara ry'cyatsi, yambaye ikabutura y'umukara n'isaha ku kaboko, arunamye afashe mu mavi.

Ameza hejuru yayo hariho imiti itandukanye, harimo iyo bifashisha basiga ku mubiri, indi yifashishwa bayinywa ndetse n'uturindantoki.

Umugabo uri mumyitozo ngororamubiri yambaye umupira ufite ibara ry'umweru, yambaye isaha ku kaboko ifite ibara ry'umukara, arimo aranywa amazi afite icupa ku munwa.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umukara ipantaro ya shokora afite mu ntoki icyuma cyabugenewe giterurwa akora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda ry'abaganga, bicaye mu cyumba imbere yabo hari ameza, hariho za mudasobwa, bafite amashusho bari gukurikirana, harimo umugabo ndetse n'umugore babateze amatwi.

Umugabo wambaye umupira w'ibara ry'ubururu, yambaye isaha ifite ibara ry'umukara ku kaboko, afite icupa mu ntoki ry'amazi yarishyize ku munwa, arimo aranywa.

Ifoto iragaragaramo abagabo babiri umwe aryamye hasi, undi ari kumuvura, iruhande rwabo hari umupira w'amaguru.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga, imbere yabo hari umukinnyi mugenzi wabo uryamye hasi, yagize ikibazo, abaganga babiri, umugabo ndetse n'umugore bari kumwitaho bambaye amajire atukura.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ririmo amazi, arimo kunywa amazi kugira ngo ubuzima bwongere bumere neza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umukara n'inkweto zabugenewe, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara urimo umutoza.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo abantu batandukanye, gisize irangi ry'umweru harimo imipira ifite ibara ry'icyatsi na oranje.

Ameza ariho ibintu bitandukanye birimo imidari, ibinini, imineke, orange, inanasi ndetse n'avoka.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, hicayemo umubyeyi ukikiye umwana, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu, imbere yabo hari ibyuma bitandukanye, bifashisha mu kuvura abarwayi.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri afite isume y'umweru mu bitugu bye arimo aranywa amazi, yambaye umupira w'ibara ry'ikijuju.

Icyumba gikorerwamo imyitozo yo gukina umukino wa rugubi harimo abagabo babiri umwe yambaye umupira utukura n'ikabutura y'umukara, undi yambaye ipantaro ya shokora n'umupira w'umukara bafite umupira wo gukina mu ntoki.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi mu byatsi afashe mu birenge bye, yambaye umupira w'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Ameza manini ariho imboga zitandukanye ndetse n'imbuto birimo Umuneke, pome ndetse na kokombure.

Igitanda haryamyeho umuntu wibatsinda yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hari umumugabo wambaye umupira n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu arimo aramukanda amaguru.

Ikirahure giteretse, hari ikindi kirahure bafashe mu ntoki, kirimo gisuka amazi muri cya kirahure giteretse, iruhande rw'ayo mazi haragaragara ibara ry'ubururu bwerurutse.

Mu busitani hari abantu batandukanye, ku ruhande hari abafite udukarito tubiri dufite ibara ry'umutuku ryandikishijeho inyuguti z'ibara ry'umweru.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, arunamye afashe mu ivi, yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara n'isaha ifite ibara ry'umukara.

Umugabo ufite ubwanwa, afite icupa ku munwa ririmo amazi, arimo aranywa amazi kugira ngo ubuzima bube bwiza kurushaho.

Igikarito gifite ibara ry'icyatsi kirimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, birimo umukasi bandegi ndetse n'indi miti igiye itandukanye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto zabugenewe, ipantaro y'umukara, isengeri ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi rifite ibara ry'ubururu.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, yazamuye akaguru arimo arigorora, yafashe ku kirenge, yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto zabugenewe.

Ifoto iragaragaza abagabo babiri, umwe ni umuganga yambaye ishati y'ubururu, undi ni umurwayi yambaye imyenda y'umukara arimo aravurwa.

Umuntu wicaye ku buriri yambaye umupira w'ibara rya oranje, arunamye ari gukora ku gipfuko gifite ibara ry'umweru gipfutse ku ivi rye.

Umurwayi yaje kwa muganga, aje kwivuza, umuganga yari arimo amufasha guhambira amaboko aho ababara, kugira ngo abashe gukira neza, yakoreshejwe imiti yabugenewe.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, yambaye akantu ku kaboko gafite ibara ry'umweru, afite icupa ry'amazi arimo aranywa.

Ameza hejuru yayo hari imipira itandukanye, harimo amadenisi, baro zikinwa z'amaguru, baro zikinishwa amaboko ndetse n'umupira ukinwa muri rugubi, n'igikoresho muganga yifashisha asuzuma.

Agatanda gatwarwaho abarwayi bagize ikibazo, gafite ibara ry'umuhondo hariho imikandara ifata umurwayi, ifite ibara ry'umukara.

Umuganga wambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru imbere ye haryamye umurwayi ufite ikibazo mu ivi, ibiganza bya muganga bifashe mu ivi ry'umurwayi.

Icyumba kivurirwamo abana bavukanye ubumuga bw'ingingo, harimo abaganga ndetse n'abana batandukanye, bagiye bagira ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto zabugenewe, n'ikabutura y'umukara, ndetse n'umupira w'umukara, arimo arakora imyitozo.

Umuganga yambaye ishati ifite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari igitanda cy'abarwayi hicayeho umugabo wavunitse akaguru, barimo bamushyiraho bande ifite ibara ry'ubururu.

Umuti uri mu icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'iroza, uvura abantu batandukanye bafite ikibazo cyo mu myororokere.

Ameza manini ariho ibintu bitandukanye, harimo imineke, inanasi ndetse n'indabyobyo ziteretse kuri ayo meza.

Ameza ateretseho udukarito dutandukanye tw'imiti cyangwa se vitamini cyangwa se mu bundi buryo ukabyita inyunganiramirire zitandukanye zifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi.

Umuntu ufite isabune mu kiganza ikozwe mu gikakarubamba ifite icupa rifite umweru udakeye rishushanyijeho igikakarubamba cyandikishijeho kandi inyuguti zifite ibara rya move.

Ubusitani buteyemo indabo zitandukanye harimo ivaze riteyemo ndabyo ifite ibara ry'ikijujuzoiIndabo zifite ubuzima bwiza.

Umugabo afashe ku ijosi ndetse no mu mugongo arababara, arumva ububabare bwinshi, inyuma ye hateretse amacupa arimo imiti itandukanye.

Ifoto iragaragaramo amapapa abiri, rimwe ni igisate, riragaragaza n'imbuto, irindi ntago risatuye.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi, birashishe, bigaragara ko ari ibimera bifite ubuzima bwiza.

Ameza ariho imiti itandukanye, hateretseho agasekuru, haru umuntu ufite umuhini w'iyo sekuru ntoya arimo aratunganya imiti.

Umurima urimo imbuto zitandukanye, imbuto zivanze n'imboga ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi ndetse kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icupa rifite umufuniko w'ibara ry'icyatsi, imbere harimo umuti witwa umuravumba, inyuma hariho icyapa gifite ibara ry'icyatsi, ryandikishijweho inyuguti z'umweru ndetse n'iz'umukara.

Umuganga yambaye ikanzu yabugenewe ifite ibara ry'umweru, arimo arakora ubushakashatsi ku ndwara ndetse no ku bizami bagiye bafata abarwayi.

Igitunguru cy'umutuku gisatuyemo ibice bibiri hari indimu isatuye ibice bibiri ndetse n'icupa ririmo amavuta ya elayo.

Ameza ateretseho igikombe kirimo uburoso bw'amenyo bubiri ndetse n'umuti wo kwisiga mu ntoki, ufite icupa ry'umweru rishushanyijeho igihingwa cy'igikakarubamba.

Ikibabi gifite ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru yaho harambitseho ibintu bimeze nk'ibinini ariko nta bwo ari ibinini ahubwo bikoze nkabyo, ni inyunganiramirire.

Umuti ukoze mu gihingwa k'igikakarubamba, icupa ryawo rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, rishushanyije igihingwa k'igikakarubamba.

Ubusitani burimo imboga, imbuto, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, bigirira umumaro umuntu mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ibifite indabo z'iroza.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, hahagazemo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse mu gatuza hariho ibara ry'umutuku n'umweru.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati ifite ibara ry'ubururu bw'igicu iruhande rwe hari amacupa y'umweru yandikishijeho inyuguti z'icyatsi ndetse n'imifuniko y'icyatsi.

Umuganga ufite ibinini mu ntoki, bifunze ari bitatu, afite agakarito kari karimo ibyo binini yasize ibara ry'umweru n'icyatsi ndetse n'umutuku, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru.

Aho umugore n'umugabo imbere yabo hari amezi manini, hariho ibyo kunywa, inyuma yabo hasize ibara ry'umweru ryandikishijemo inyuguti z'icyatsi kibisi.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi, ni ibimera bitoshye bifite ubuzima bwiza, ibyo bimera kandi byifashishwa mu gukoreshwa nk'imiti.

Akabati gasize ibara ry'umweru, gateretsemo amacupa atandukanye arimo imiti itaracishijwe mu nganda, amwe afite imifuniko y'umuhondo, andi afite imifuniko y'umutuku.